Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya no gukora ibintu bijyanye no guca imirongo, cyane cyane barimo bariga imibare, biteretse ku rupapuro rutagira ikizinga rwererana, ibyo bikoresho harimo nk'amarati, nk'amakopo n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshuri hamwe n'umwarimu wabo bari mu ishuri rigari risa nkaho ari rinini, barimo barafata ikigwa runaka tubashije kuba cyamenyekana ariko uko bisa kose barimo bariga. Ni ikigaragaza ko abanyeshuri barimo bariga.

Iyi ni imbuganga ngari ikozwe mu matafari akoze muri sima n'umucanga, nyuma y'imbuga hakaba hari indabyo zizengurutse, n'ubusitani bunini buteyeho ibiti by'inganzamarumbo bikiri bito, bishamitse amashami maremare.

Ibi ni ibikoresho biboshye cyangwa se bikozwe mu buryo bw'ubugeni nka gakondo, bigaragaza umuco nyarwanda, ibi bikoresho twabikoze mu budodo cyangwa se no mu mapamba.

Ubu ni ubugeni buriho ikibumbano k'ishusho y'umuntu. Iyo shusho ikaba ikoze mu mutwe wonyine, hakaba n'ikindi kibumbano kigaragaza ubwato igice kimwe. Ikindi kibumbano kigaragaza ko hari kubakwa ikintu kimeze nk'inkono cyangwa se isafuriya.

Abanyeshuri bane basoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza bakaba bambaye imyenda n'ibigofero bigaragaza ko bagiye guhabwa impamyabumenyi mu masomo bize.

Abanyeshuri benshi batandukanye bashoje icyiciro cya kaminuza, cya kabiri, bambaye, imyenda ibigaragaza bambaye bafite n'amagofero bamanitse mu kirere n'intoki. Inyuma yaho hakaba hari amahema, hakaba hari n'ibiti cyangwa se ishyamba inyuma y'iryo hari.

Ubu ni ubugeni bwo kubumba cyangwa kurema ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugose hakoreshejwe ibumba, umucanga. Ibikoresho bikaba birimo nk'imitemeri n'udutebo.